Abagore babiri umwe ku ruhande rw'iburyo wambaye imikenyero, ku ruhande rw'ibumoso ufite indangururamajwi, aho bari kugeza ijambo ku babakurikiye.

Abanyeshuri b'ingeri zitandukanye biganjemo urubyiruko bahuriye mu cyumba kiberamo inama, imbere hakaba hari itsinda ririmo gususurutsa abitabiriye ibiganiro.

Abaturage batandukanye, abagabo, abagore, bahuriye mu cyumba, gikorerwamo inama, aho bateze amatwi umuntu urimo kubaganiriza.

Umugabo wambaye ishati y'umukara ndetse n'umweru, wambaye amadarubindi, ufite indangururamajwi, wambaye isaha, akaba ari kubwira abantu bamukurikiye.

Abagabo batatu batandukanye, bambaye amadarubindi ndetse n'amakote, bakaba bari kugeza, ijambo ababakurikiye, mu nama, ya komite mpuzabikorwa y'akarere ka Nyagatare.

Umugabo wambaye ikoti ry'umukara, ishati y'ubururu, imbere hateretse terefone ikaramu, ndetse n'agacupa k'amazi, intebe z'icyatsi, aho ari mu nama, ateze amatwi ibiri kuhavugirwa.

Abaturage b'ingeri zitandukanye, abagore, urubyiruko ndetse n'abagabo, bahuriye mu cyumba giteraniramo inama, aho baje kwiga ku byabagirira akamaro.

Umugabo wambaye umupira w'umukara, wambaye isaha ku kuboko ndetse n'amadarubindi, akaba ari mu cyumba giteraniramo inama, aho ari kugeza ijambo ku rubyiruko rumukurikiye.

Abaturage b'ingeri zitandukanye, abagore, abagabo, bahuriye mu cyumba giteraniramo inama, aho bateze amatwi, uri kubagezaho ijambo.

Abaturage batandukanye, abagabo, abagore, ndetse n'umugore ufite indangururamajwi, aho ari kugezaho, ijambo abamukurikiye.

Abaturage b'ingeri zitandukanye: abagabo, abagore, aho bicaye mu cyumba gikorerwamo inama, bateze amatwi ibiri kuhavugirwa.

Umugabo wambaye amadarubindi ndetse n'ishati y'ubururu, akaba yambaye isaha iruhande hakaba hari indangururamajwi ndetse n'agacupa k'amazi aho ari kugeza ijambo abamukurikiye.

Abaturage b'ingeri zitandukanye abagore, abagabo ndetse n'urubyiruko, bahuriye mu kibuga gikorerwamo inama ndetse n'umugabo wambaye amadarubindi, ufashe indangururamajwi aho ari kugeza ijambo abamukurikiye.

Abantu b'ingeri zitandukanye abagore, abagabo bahuriye mu cyumba kiberamo inama aho bateze amatwi uri kubagezaho ijambo.

Igikoresho kizwi ku izina ry'imbehe, akaba ari igikoresho cyakoreshwaga mu muco nyarwanda, kikaba gifite akamaro ko kurirwamo.

Umubyeyi wambaye imikenyero y'umutuku, witeze urugori, imbere ye hakaba hari inkoko, uri ku musambi, akaba ari gusya impeke kurusyo, akaba ari igikoresho cy'umuco nyarwanda.

Inka yo mu bwoko bw'inyambo, ifite ibara ry'umweru mu gahanga, ikagira amahembe maremare, ikaba ari inka ikunzwe cyane, ikurura ba mukerarugendo, ikagira amata aryoshye cyane.

Ibirago, imisambi akaba ari bimwe mu bikoresho byakoreshwaga kera ndetse bigikoreshwa n'ubu, bikaba bidufasha kubungabunga umuco nyarwanda kandi bikaba bifite akamaro nk'aho abantu babyicaraho mu gihe bari gukora imirimo itandukanye.

Igikoresho kitwa igiseke kikaba ari igikoresho gikoreshwa mu muco Nyarwanda kikaba gikoreshwa mu kubika ndetse no gutwara imyaka itandukanye bayikora ahantu bayijyana ahandi.

Ibikoresho bitandukanye by'umuco nyarwanda, ingofero ndetse n'ingoma, akaba ari ibikoresho byakoreshwaga, bigikoreshwa na n'ubu mu gutarama.

Abaturage batandukanye, abagabo, abagore ndetse n'urubyiruko, bahuriye mu cyumba kiberamo inama, bateze amatwi, ibyabagirira akamaro.

Inka zizwi ku izina ry'inyambo zikaba ari inka zigira amahembe maremare, zikaba ari inyamaswa zifite agaciro mu muco nyarwanda, zikagira amata aryoha cyane.

Igikoresho kitwa icyansi kikaba ari igikoresho kifashishwa mu muco nyarwanda mu birori bitandukanye harimo ibyo gushyingirwa ndetse no gutarama.

Urubyiruko rutandukanye rwiganjemo abahungu n'abakobwa, aho bambaye imikenyero y'umukara ndetse n'amashati y'umweru, bakaba bari kuvuza ingoma, abandi baririmba, bikaba ari ibikoresho byifashishwa mu muco nyarwanda.

Urubyiruko rutandukanye, rwambaye imikenyero y'umuhondo ndetse n'umukara, ruri mu bikorwa by'umuco nyarwanda, akaba ari ibikorwa byo gusigasira umuco wacu.

Abakozi benshi b'abagabo aho bari kuzamura ipoto yifashishwa mu gutwara insinga zijyana umuriro w'amashanyarazi, bityo abaturage baturiye agace runaka bakabona umuriro w'amashanyarazi.

Imirasire y'izuba akaba ari ibikoresho bitanga ingufu z'umuriro w'amashanyarazi bityo ababikoresha bakabona aho bacomeka amatelefone yabo ndetse bakawukoresha mu buzima bwa buri munsi.

Imodoka iri mu mabara y'umweru ndetse n'umukara, amagare, amapikipiki ndetse n'abantu, bikaba biri ku kiraro, aho abambukiranya uduce dutandukanye banyura kugira ngo bagere ahandi.

Inyubako zubakishijwe amatafari, amabati y'umutuku, zikikaba ari inyubako zikoreramo ibiro by'Umurenge wa Musheri.

Imodoka zitandukanye ziri mu muhanda, akaba ari umuhanda uri ku kiraro, cyambukiranya, kikaba ari igikorwa remezo, gihuza agace kamwe ndetse n'akandi.

Ikibuga cy'umupira aho abafana benshi baje kwihera ijisho no gufana amakipe yabo, ndetse n'amakipe abiri atandukanye yambaye impuzankano zitandukanye, bari mu mukino w'umupira w'amaguru bashaka insinzi.

Inyubako zigize agace k'imiturire nk'imihanda, amazu, inzu z'ubucuruzi, bikaba bikenerwa n'abaturage mu buzima bwabo bwa buri munsi kugira ngo babone ibikenerwa mu buzima.

Inyubako z'ubwoko butandukanye zisize amarangi y'umuhondo zisakajwe amabati y'ubururu imbere yazo hakaba hari ibyatsi ku ruhande rw'iburyo ibiti bitandukanye.

Inyubako ifite igorofa, iteye amarangi y'umuhondo, mu muryango harimo abagabo babiri, ikaba ari inyubako ikoreramo, ibiro by'akarere ka Nyagatare.

Agace kagizwe n'imisozi, ndetse n'ibiti, hakaba hari, icyapa kigaragaza ko, uba uvuye mu gihugu kimwe ugiye mu kindi, bikaba byandikishijwe amabara y'icyatsi, ndetse n'inyuguti z'umukara.

Inyubako igizwe n'amadirishya atatu imbere, ndetse n'urugi byose by'ubururu, iteye amarangi y'umweru, isakaje amabati atukura. Ikaba ikoreramo ibiro by'akagari ka Kembogo.

Urubyiruko rutandukanye, rwahuriye ku kibuga. Aho bari kuganirizwa nyuma y'uko bamaze gukora siporo, bigatuma basabana kandi bakagira ubuzima bwiza.

Urubyiruko rutandukanye rw'abakobwa ndetse n'abahungu, bakaba bahuriye ahantu mu mugoroba, aho bari mu bikorwa byo kwibuka.

Abaturage b'ingeri zitandukanye urubyiruko, abagore, ndetse n'abagabo, aho bahuriye hamwe ndetse n'umugabo ufite indangururamajwi uri kubagezaho ijambo.

Abaturage b'ingeri zitandukanye: abagore, abana ndetse n'abagabo, bakaba bahuriye ahantu aho bateze amatwi uri kubagezaho ijambo.

Umugabo wambaye ikot, ishati y'umweru, indangururamajwi ndetse n'abandi bantu batandukanye b'ingeri zose, abagore n'abagabo aho ari kugeza ijambo ku bamukurikiye.

Abaturage b'ingeri zitandukanye abagabo, abagore bahuriye ahakorerwa inama ndetse n'umugabo ufite indangururamajwi aho ari kugeza ikiganiro ku bamukurikiye.

Abaturage b'ingeri zitandukanye, urubyiruko, abagabo, abagore ndetse n'abashinzwe umutekano, aho bahuriye mu nama kugira ngo bakore ibikorwa bibateza imbere.

Abagabo bane batandukanye, hagati abashinzwe umutekano bambaye imyenda y'umukara, inyuma yabo bakaba bakikijwe n'igihingwa cy'urutoki aho bari kungurana ibitekerezo.

Abaturage batandukanye, abagore, abagabo ndetse n umukozi ukora mu nzego zishinzwe umutekano, aho ari kubagenera ubutumwa abafitiye.

Abaturage batandukanye abagore, abagabo ndetse n'abashinzwe umutekano, hakaba hari n'uri kubagezaho ijambo kugira ngo babashe kwikemurira ibibazo.

Abantu b'ingeri zitandukanye, abagore, abagabo, urubyiruko rw'abasore ndetse n'abakobwa bahuriye ahantu bari kuganira ku byabateza imbere.

Imodoka iri mu mabara y'umutuku ndetse n'umukara, iri mu muhanda, akaba ari ikinyabiziga gikoreshwa mu gutwara abantu ndetse n'ibintu.

Umunyonzi w'umugabo uhetse umugore ku igare, igare akaba ari igikoresho cyifashishwa mu gutwara ibintu ndetse n'abantu.

Umugabo wambaye ishati y'umukara, ipantaro y'ubururu ndetse n'imodoka ziri mu mabara yu'mweru, akaba ari ibikoresho byifashishwa mu gutwara abantu n'ibintu.

Abamotari babiri batwaye amapikipiki, umwe ku ruhande rw'iburyo, wambaye ingofero y'umutuku, undi wambaye ingofero y'umukara ,akaba ari ibikoresho byifashishwa mu gutwara ibintu n'ibintu.

Abanyamaguru babiri ndetse n'imodoka igizwe n'amabara y'umweru n'umukara biri mu muhanda, akaba ari igikoresho kifashishwa mu gutwara abantu bava ahantu hamwe bajya ahandi ndetse no gutwara ibicuruzwa bitandukanye.

Umuhanda ugizwe n'ibyapa byerekana aho umuntu ajya cyangwa anyura, iruhande hari ibiti bitandukanye ndetse n'amapoto y'umuriro w'amashanyarazi.

Abaturage b'ingeri zitandukanye abagabo, abagore, ndetse n'abashinzwe umutekano bahuriye hamwe mu gikorwa cy'umuganda kugira ngo biteze imbere.

Umukozi ukora mu nzego zishinzwe umutekano, ndetse n'umugabo wambaye ingofero bicaye munsi y'igiti, aho bari kugeza ijambo kuba bakurikiye.

Abantu batandukanye bari mu gikorwa cy'umuganda, bikaba bidufasha kwishakira ibisubizo, kuremera abadafite ubushobozi bwo kuba bagira icyo bikorera kandi bigatuma tuba ahantu hasa neza.

Abaturage b'ingeri zitandukanye abagore, abagabo, abashinzwe umutekano bicaye ku ntebe aho bari kugeza ikiganiro ku babakurikiye.

Abaturage batandukanye, abana, abagabo ndetse n'abashinzwe umutekano, aho bahuriye mu gikorwa cy'umuganda, ibikorwa rusange biteza imbere abaturage.

Abantu biganjemo urubyiruko, abagabo ndetse n'abagore, aho bahuriye mu gikorwa cyo kubakira abatishoboye, bikaba ari ibikorwa biteza imbere abaturage.

Abaturage b'ingeri zitandukanye, abagore, abagabo, urubyiruko ndetse n'abashinzwe umutekano, aho bahuriye hamwe kugira ngo bungurane ibitekerezo.

Abaturage b'ingeri zitandukanye, abagabo, abagore ndetse n'urubyiruko, bahuriye mu gikorwa cy'umuganda kugira ngo bakore ibikorwa biteza imbere abaturage.

Abaturage b'ingeri zitandukanye abagabo, urubyiruko ndetse n'abagore bahuriye hamwe aho bafite imihoro, ibitiyo bari mu gikorwa cy'umuganda kugira ngo bakore ibikorwa bibateze imbere.

Amakipe abiri atandukanye yahuriye ku kibuga cy'umupira ndetse n'umusifuzi wambaye imyenda y'umuhondo n'umukara, aho ari kwerekana ugiye gusimbura umupira w'amaguru.

Amakipe atandukanye yahuriye mu kibuga cy'umupira w'amaguru, mu umukino w'umupira w'amaguru, bamwe bakaba bambaye impuzankano y'umukara ndetse n'umuhondo, abandi bakaba bambaye impuzankano y'ubururu ndetse n'umweru.

Umukinnyi wambaye impuzankano z'ubururu ndetse n'umukara, inyuma ye hari amazamu akaba ari mu kibuga cy'umupira ahagiye kubera umukino w'umupira w'amaguru.

Amakipe abiri y'abari n'abategarugori aho yahuriye mu mukino w'umupira w'amaguru ikipe imwe ikaba yambaye impuzankano y'umutuku indi ikaba yambaye impuzankano y'umukara.

Amakipe abiri atandukanye ari mu kibuga cy'umupira mu mukino w'umupira w'amaguru, umupira w'amaguru akaba ari umukino umwe mu zikunzwe cyane ukaba udufasha kongera ubusabane ndetse ugahuza abantu b'ingeri zitandukanye.

Umukinnyi uri mu kibuga cy'umupira w'amaguru, wambaye inkweto z'ubururu, amasogisi y'umuhondo ndetse n'impuzankano y'ubururu ndetse n'icyatsi n'abandi bantu baje ku kibuga cy'umupira, baje gukurikirana umupira w'amaguru.

Umukinnyi wambaye impuzankano y'ubururu ndetse n'icyatsi, amasogisi y'umukara, inkweto z'umutuku, akaba ari mu kibuga cy'umupira aho ari kwidagadura.

Abakinnyi batandukanye, aho baje mu mukino w'umupira w'amaguru, bakaba bari kwishyushya mbere y'uko umukino utangira, bakaba bambaye inkweto zitandukanye ndetse n'impuzankano y'ubururu ndetse n'icyatsi.

Abantu b'ingeri zitandukanye abagabo, urubyiruko, bahuriye mu gikorwa cyo gukora siporo bakaba bari mu muhanda aho bari kwirukanka kugira ngo bagire ubuzima bwiza.

Abana batatu bahuriye mu kibuga cy'umupira w'amaguru, aho baje gukina umupira, umwe akaba yambaye ikabutura y'umukara, akaba nta nkweto yambaye, undi akaba yambaye inkweto zifunze, undi akaba yambaye inkweto zifunguye.

Imyidagaduro ni kimwe mu bigize ubuzima bw'abantu bwa buri munsi. Abantu bakina umupira w'amaguru, aho usanga bahurira ku kibuga cy'imikino bagakina bagasabana bikamera neza.

Urubyiruko rwiganjemo abana biga mu mashuri yisumbuye, ndetse n'abiga mu mashuri matoya aho bahuriye ku kibuga cy'umupira baje kwihera ijisho.

Amakipe atandukanye yahuriye mu mukino w'umupira w'amaguru, iyi ikaba ari imwe muri siporo zikunzwe, aho amakipe ahura agakina, bagasabana kandi siporo ikaba yongera ubuzima bwiza muri rusange.

Amakipe abiri yambaye impuzankano zitandukanye, bamwe bambaye imipira y'ubururu n'amasogisi y'umukara abandi bambaye imihondo bahuriye mu kibuga cy'umupira aho baje mu mupira w'amaguru.

Abakinnyi b'umupira wamaguru bambaye impuzankano z'umukara, amasogisi y'umukara ndetse n'imipira ijya kuba umutuku, bakaba bari kwishyushya mbere y'uko umukino w'umupira w'amaguru utangira.

Umugabo wambaye imyenda ya siporo y'umukara, ndetse n'umweru, iruhande rwe, ushinzwe umutekano, aho bari kuganiriza abakinnyi, b'umupira w'amaguru.

Amakipe abiri atandukanye, yahuriye mu kibuga cy'umupira w'amaguru, abambaye impuzankano z'umuhondo ndetse n'ubururu ndetse n'umusifuzi, baje gushaka intsinzi.

amakipe abiri atandukanye, yahuriye mu kibuga cy'umupira, bakaba bambaye impuzankano z'umuhondo, abandi impuzankano z'ubururu, aho bose bari gushaka insinzi.

Abagabo batanu, bane bambaye impuzankano y'umuhondo, ku ruhande rw'ibumoso uwambaye umupira w'ubururu, ipantaro y'ubururu ndetse n'ingofero y'umweru, aho bahuriye ku kibuga cy'umupira, baje mu mukino w'umupira w'amaguru.

Amakipe abiri atandukanye yambaye impuzankan z'ubururu ndetse n'umweru, aho yahuriye ku kibuga cy'umupira w'amaguru kugira ngo bakine umukino buri kipe ishake intsinzi.

Amakipe abiri atandukanye, imwe yambaye impuzankano z'umuhondo, abandi bambaye impuzankano z'ubururu, bahuriye ku kibuga cy'umupira w'amaguru aho bari mu mukino w'umupira w'amaguru.

Abaturage b'ingeri zitandukanye, urubyiruko, abagabo, abagore ndetse n'abakora mu nzego z'umutekano aho baje ku kibuga cy'umupira w'amaguru kugira ngo bihere ijisho umukino uri kuhabera.

Ibikombe bibiri. imidari y'ishimwe itandukanye, ndetse n'abantu. imidari y'ishimwe ikaba ari, mu bimwe mu bikoresho bihembwa abantu babaye indashyikirwa, mu cyiciro runaka.

Igice cy'umuhanda kigizwe n'amabara y'umweru ndetse n'umukara, akaba ari ahantu hanyurwa n'abanyamaguru ndetse n'ibinyabiziga bitandukanye.

Imihanda ni kimwe mu bikorwaremezo bikoreshwa n'abantu benshi bikongera ubuhahirane hagati y'ibice bitandukanye, aho abantu bahanyura, tukahanyuza imyaka yo kurya ndetse n'ibindi bintu bikenerwa mu buzima bwa buri munsi.

Utuyira two mu cyaro, tugizwe n'ibyatsi bitoya, akabari utuyira twifashishwa mu kuva mu gace kamwe ujyamo kandi, aho gukora imihanda biba bigoranye.

Akayira karimo ibyatsi, akaba ari akayira kanyurwamo n'abanyamaguru, ndetse n'ibinyabiziga bitandukanye, kakaba gakoreshwa mu kugenderanira hagati y'abaturage.

Umuhanda w'igitaka ukikijwe n'ibyatsi bitandukanye, ukaba wifashishwa mu kunyuramo abanyamaguru ndetse n'ibinyabiziga bitandukanye.